Iyi foto iragaragaza uruganda rwa Nyanza rwa amata bagaragaza amata y'inyanza, nifoto iri kurugi na copi iri kwamamaza amata ya Nyanza

Ndi kubona umukozi wa MTN, wambaye akajiri ka MTN, yambaye agatishati ka eyateri, ni umumotari, moto ndetse n'ibintu atwaye ari kugura purodakiti za MTN.